Inzu irimo imyambaro itandukanye, yaba amashati, imipira, amakanzu ndetse n'amakoti, akaba ari mu mabara atandukanye, yaba umukara, umutuku, ubururu, gusa bikaba bigaragara ko iyi inzu ari ahantu bacuruza imyenda, ndetse abantu bakaba baza kuhagura imyambaro itandukanye.

Inzu isize irange ry'umweru mo imbere hakaba hari kwakamo amatara y'umweru ndetse hakaba harimo umumama ufite ibisuko by'umukara, ndetse akaba yambaye umwambaro w'umutuku ndetse akaba yambaye n'amadarubindi imbere yiwe mu kuboko kw'ibumoso hakaba hari amamashini atandukanye.

Igikombe cyicyirahure bakunze kwifashisha bankwa ibinyobwa bitandukanye yaba amata amazi ndetse nibindi bintu bitandukanye nka ji inzoga hakaba bisa nkaho harimo amata ndetse kurayo meza hakaba hariho isahane iriho ibiryo bitandukanye.

Inzu isize irange ry'umweru ndetse n'ubururu hakaba handitseho angano rodiborokisi mu ibara ry'umweru ndetse n'ikimenyetso cyangwa se icyapa cyanditseho vigitoriya foregisi biro riri mu ibara ry'umweru ndetse hasi hakaba handitse andi magambo hanze hakaba hateretse intebe.

Inzu isize irangi ry'umweru ndetse n'ubururu, bikaba bigaragar ko ari hoteri cyangwa ahandi se ahandi hantu abantu ashobora gusohokera, ndetse hakaba hari n'ameza n'intebe abantu bashobora kwifashisha bicara mu gihe bari kwiyakira, ndetse hanze hakaba hateye ibiti.

Inzu y'igorofa iriho icyapa kiri mu ibara ry'umweru yanditseho Rizavu peyi bikaba byanditse mu mabara y'ubururu ndetse n'icyatsi hakaba handitseho wa wa wa akadomo risavu peyi akadomo komu, bigaragara ko ari urubuga wabasangaho ndetse na nimero ya watsapu hanze hakaba hateye ibiti by'imikindo.

Umugore wambaye imyenda y'ibitenge iri mu mabara atandukanye yaba umutuku ndetse n'ubururu, akaba yitwikiriye umutaka uri mu mabara atandukanye yaba umutuku ndetse n'icyatsi, imbereye hakaba hari imbuto zitandukanye, yaba amashu, itomati, ndetse na karoti, inyuma ye hakaba hari abandi ba mama benshi.

Inzu iri mu ibara ry'umweru ndetse n'umutuku hakaba handitseho eyateri mani, ikaba itanga serivise zitandukanye haba kubitsa, kubikuza, kohereza ndetse no gufasha abakiliya ndetse hakaba hahagaze abantu batandukanye hari umupapa wambaye ipantaro y'umukara ndetse n'umupira w'umweru.